Umugabo uzobereye ibijyanye n'ubuhinzi, yambaye igishurubeti cy'umukara, akaba yambaye n'amataratara. Ari gutera umuti ibigori bikuze, ubona ko birimo igihe cyiza cyo kuba byaribwe.

Umugabo wize akaminuza mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Yambaye imyenda y'umweru, uturindantoki tw'ubururu akaba afite n'ipombo mu ntoki aho ari kugenda atera umuti ibihingwa bye by'urusenda ndetse n'ibindi.

Umugabo akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuhinzi, yambaye ishati ya karokaro ndetse n'ingofero, akaba ahetse pombo y'umuhondo irimo umuti, aha ari kugenda atera umuti ibihingwa bitandukanye bye kugira ngo bizatange umusaruro.

Umugore wambaye umupira utukura, yambaye ipantaro y'umukara, akaba ari inzobere mu by'ubuhinzi aho ari gutera umuti ibihingwa bye by'imboga kugira ngo bibashe gukura neza.

Umugabo w'umwirabura yambaye ingofero mu mutwe, yambaye ishati ya karokaro y'amaboko maremare, akaba ahetse ipombo mu mugongo aho ari gutere umuti mu muceri kugira ngo abashe kurwanya ibyonnyi.

Abantu babiri b'abarobyi babigize umwuga, umwe yambaye agapira k'ijezi kanditseho Emirates ndetse n'ingofero n'agapfukamunwa, undi akaba yambaye agapira k'ikipe ya Arsenal, aho bafite urushundura bagiye kuroba.

Umugabo wambaye agasengeri k'umweru karimo imirongo itambitse y'umukara, akaba ari umworozi w'amafi aho ari kuyaroba, afite agatimba k'ubururu, akaba afite n'akandi kantu yafishemo amafi yarobye.

Ikiyaga cy'akataraboneka. Kikaba ari cyiza cyane ari kigari kandi kikaba kiri ahantu mu kibaya, abona ko kitabura amazi. iruhande rwacyo hari akandi kazu hakaba hari ibimera bitandukanye.

Ibyuzi byinshi cyane biri mu kibaya bikaba birimo amafi menshi aho buri cyuzi kigiye kirimo akazu gato kifashishwa mu kugaburira amafi abafi aba muri ibi byuzi, iruhande rwabyo hakaba hari n'indi migwegwe ihatondetse.

Abantu batandatu bakaba ari aborozi b'amafi. Barimo abagore babiri ndetse n'abagabo bane bakaba bahagaze iruhande rw'icyuzi, aho barorera amafi, imbere bahagaze akaba ari mu kinani.

Umugabo w'umurobyi wabigize umwuga akaba ari n'umworozi w'amafi, ari mu cyuzi cy'igikorano cyubatse mu ruge we, aho ari guhuza amazi akava mu cyuzi kimwe ajya mu kindi yifashishije igihombo.

Umugabo w'umwirabura yambaye agapira k'amaboko magufi akaba yambaye n'isarubeti, ni umurobyi wabigize umwuga cyane ko ahagarara mu cyuzi akaroba ifi n'intoki, ibintu bitangaje cyane bidakunda kugaragara ahantu henshi.

Umugore wambaye ingutiya mu ibendera ry'Igihugu cya Uganda, akaba yambaye agapira k'umuhondo k'amaboko magufi. Yiteze n'igitambaro mu mutwe, akaba ari umurobyi ndetse n'umworozi w'amafi wabigize umwuga. Aho ahagaze iruhande rw'icyuzi ke.

Ikawa kimwe n'ibindi bihingwa byose ngandurabukungu. Ni kimwe mu bihingwa bifasha mu kwihutisha iterambere, dore ko nubwo bitera vuba ariko iyo bigeze mu gihe cyo kwera usanga bitanga amafaranga menshi.

Abagore bihangiye umurimo bakaba barishyize hamwe nka koperative kugira ngo bahinge ibihingwa ngandurabukungu byiganjemo ikawa, muri iki gihe rero bari kuzisarura aho bazishyize mu ndobo, mu bitebo ndetse no mu mabase, inyuma yabo hakaba hari insina.

Umurima munini cyane wahinzwe ku bufatanye na Leta y'u Rwanda aho ifasha abishyize hamwe mu guhinga by'umwihariko ibihingwa ngandurabukungu birimo ikawa, zikaba zishishe cyane bigaragara ko zitaweho neza.

Umugabo w'umwirabura uri mu kigero k'imyaka mirongo ine n'itandatu akaba yambaye umupira w'umuhondo aseka neza aho ari umuhinzi wabigize umwuga, aho ahinga cyane cyane ibihingwa ngandurabukungo birimo n'ikawa.

Abantu batatu bakaba ari abahinzi babigize umwuga aho bahinga ibihingwa byihariye bitandukanye, byiganjemo ibihingwa ngandura bukungu birimo ikawa ndetse n'icyayi, bakaba bari gusoroma icyayi.

Ibihingwa ngandurabukungu bihingwa cyanecyane mu kibaya ,birimo umuceri aho wahinzwe ku kigero cyo hejuru cyane, ubu ukaba ukiri muto aho byitezweho ko uzagira umusaruro mwiza kubera ko ibihe byagenze neza.

Abahinzi batanu bahinga ibihingwa ngandurabukungu nk'umuceri ndetse n'ibindi. Bakaba bari mu murima w'umuceri aho bari kugenda bokonyorera ndetse banawitaho kugira ngouzarusheho gutanga umusaruro mwiza.

Ni abantu bishyize hamwe kugira ngo bahinge ibihingwa bitandukanye, byiganjemo ibihingwa ngandurabukungu. Bakaba baje ahantu hamwe, buri wese yitwaje igikoresho atwaramo ikawa z'ingemwe.

Umugore witeze agatambaro k'icyatsi mu mutwe, yambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara, akaba ari umuhinza wabigize umwuga, aho ahinga ibihingwa bitandukanye ngandurabukungu birimo n'ikawa ikaba yeze ari kuyisoroma.

Umugore wambaye agapira k'umutuku, yiteze igitambaro mu mutwe, akaba ari umuhinzi wabigize umwuga, aho ahinga ibihingwa ngandurabukungu birimo ikawa ndetse n'icyayi.

Ni abantu batatu bakaba ari abahinzi babigize umwuga aho bahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo umuceri mu kibaya, inyuma yabo hari abandi bantu babiri bari gutembera bari kureba niba ibi bihingwa byeze kugira ngo babigure.

Imiti myinshi cyane y'amatungo iri mu bikarito aho bigiye bihanitse mu kabati k'umweru, ibikarito biri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi. Byose bikaba birimo imiti y'amatungo.

Ni inzu nziza cyane icururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti y'amatungo, ikaba irimo etajeri iparitsemo imiti iri mu dukarito tw'umweru ndetse n'indi iri mu utw'icyatsi.

Uducupa twinshi cyane turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, turi mu mabara y'umweru ndetse tukaba turiho ibipapuro biri mu mabara atandukanye umuhondo, umweru n'umutuku, bisobanura amazina y'uwo muti n'uburyo ukoreshwa.

Inyubako nziza cyane icrizwamo imiti y'amatungo, hari imiti irimudukarito tw'umweru, icyatsi, mbese tukaba dufite n'amabara y'umutuku, iruhande rwatwo hari n'indi iri mu bikombe.

Inyubako icururizwamo imiti y'amatungo, iyi miti iri mu bikarito biri mu mabara y'umweru, umutuku, ubururu n'icyatsi, bikaba byanditseho amagambo asobanura amazina y'iyi miti mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa. Hakaba harimo akabati k'umweru karimo imiti myinshi cyane. Ari iri mu macupa ya purasitike y'umweru ndetse n'indi irimo amacupa akozwe mu byuma.

Umugore w'umuhinzi afite isuka ku rutugu yambaye igitenge ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba afite n'agafuka gatoya, aho avuye guhinga ageze mu rugo afite uruzitiro rw'imiyenzi.

Umunsi abahinzi bo mu gihugu bose batumirijweho kugira ngo bage gufata ibiti bifata ubutaka. Bose baje ku bwinshi muri pepenyeri. Aho buri wese yitwaje igikoresho aratwaramo ibiti, bakaba bari kubipakira.

Umurima munini cyane uhinzemo amasaka akaba ageze mu gihe kiza cyo kuraba, kuri ubu arashishe cyane hakaba harimo n'umugabo ari we nyira yo uri kugenda ayatemberamo.

Umugabo akaba n'umuhinzi mworozi wabigize umwuga ari gutembera mu murima we aho asunitse igare yashizeho inkwi nyinshi cyane kugira ngo ajye guteka ibiryo by'amatungo ye.

Abantu babiri ni umugabo n'umugore bakaba ari abahinzi babigize umwuga, aho bahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibinyampeke by'ibirayi na ko ibinyabijumba, akaba bari kubikorera kugira ngo bizere neza.

Abantu benshi cyane b'abahinzi. Ni abaturage bafite amabase, buri muntu mu ibase ye afitemo ibihingwa avuye gusarura, bakaba bari kubitunganyiriza hamwe kugira ngo batahire rimwe.

Abantu batatu b'abahinzi bakaba bahinga ibihingwa by'umuceri ndetse bakaba bahinga n'ibindi bihingwa bitandukanye ngandurabukungu, aho babyitaho neza bakabona amafaranga.

Abantu benshi cyane bakaba baje mu munsi mukuru wo kubungabunga ibidukikije, aho bari gutera ibiti muri bo harimo abasirikare, hakaba harimo n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego zo hejuru.

Abahinzi akenshi na kenshi bakunze kuba ari n'aborozi b'inka kuko inka zibafasha kubona ifumbire y'imborera, bafumbiza imyaka yabo kugira ngo izaku neza nuko na bo babone umusaruro uhagije.

Ibihingwa byinshi cyane byiganjemo ibinyampeke bikaba ari ibihingwa ngandura rugo, bihinze ku bwinshi mu kibaya, aho bikiri bito ndetse hakaba harimo n'uburyo bushya bwo kubivomerera.

Umugezi utemba ukaba uri iruhande rw'ibihingwa byinshi cyane byiganjemo ibinyampeke by'ibigori, aho byahinzwe kufatanye na koperative ndetse na Leta mu buryo bwo gufasha abaturage.

Umugabo w'umwirabura afite isuka mu ntoki. Akaba ari umwe mu banyamuryango ba koperative yibumbiye hamwe kugira ngo ihinge ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibigori nk'ibinyampeke byabageza ku iterambere.

Ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibihingwa ngandurabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, bikaba byarahinzwe mu kibaya kinini cyane, aho iruhande rw'icyo kibaya hari ishyamba ry'inzitane.

Ibihingwa byinshi cyane byiganjemo ibihingwa ngandurarugon nk'ibigori ni bimwe mu bihingwa by'ingenzi bihingwa cyane mu Rwanda aho bifasha Abanyarwanda ndetse n'abahahirana n'Abanyarwanda.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye ariko bimwe bakaba biranduye, aho basigajemo umwumbati ukiri mutoya, bigaragara ko uyu murima, ari umurimo uhingwamo ibihingwa bitandukanye ngandura rugo, bifasha abanyamuryango kugira ubuzima bwiza.

Ibihingwa bitandukanye birimo ibigori ndetse n'ibishyimbo, iyo ubitereye hasi cyangwa se bikagucika ku bw'impanuka, kenshi na kenshi biramera nubwo bitakera ariko usanga bitoshye igihe bikiri bito.

Ni ahantu mu cyaro hari umurima mwiza urimo ibihingwa bitandukanye birimo ibijumba ndetse n'ibindi binyamafufu by'imyumbati ubona ko ikiri mito bigaragara ko itaragera igihe cyo kuba yasarurwa.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibiribwa ndetse n'iminyobwa bipanze hamwe, aho biri ku meza, hakaba hari ibinyobwa ndetse n'ibiribwa birimo gorilosi n'ibindi.

Ni ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'inganzamarombo, rirapfukiranye ubona ko rimaze igihe kinini cyane, imbere yaryo aho rigarukiye hakaba hari amazu abiri asakaje amabati atukura ndetse hakaba hari n'igihingwa k'icyayi.

Ni utuzu tubiri turi mu ishyamba hakaba harimo n'abantu benshi cyane bari kuhatembera aho ducururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba hari n'abantu baje kugura ibyo bicuruzwa bihacururizwa.

Umusozi munini cyane uriho ishyamba ritarakura neza, bisa naho ari ibishibu dore ko iryabanje bari bararitsinsuye. Ku ruhande rumwe hari ibishibu, urundi ruhande hakaba hari aho batsintuye mu minsi ishize.

Ni imisozi myiza cyane, ni imirambi ya Nyarweya, hakaba hari ikiyaga kirimo ibirwa bibiri binini cyane aho hari abantu baturutse impande zose z'isi, baje kwirebera ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda.

Amashyamba meza cyane akaba arimo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo. Aho ari ay'inzitane ahuje imisozi myinshi cyane, isa naho ari ubukangurambaga bwakozwe bakayaterera icya rimwe.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bitandukanye bikiri bito hakaba harimo n'ibiti byinshi cyane bifata ubutaka bya gereveriya aho bitoshye cyane bigaragara ko ari mu gihe k'imvura cyangwa se nyiri umurima akaba abyitaho.

Ni ikibaya kiza cyane kirimo ubwatsi butandukanye, bumwe butoshye, ubundi bukaba bushaje. Hakurya yabwo hari ishyamba ry'inzitane, ririmo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo bikurura umwuka duhumeka.

Amashyamba menshi cyane y'inzitane, akaba arimo Gihugu cy'u Rwanda, aho mu rukerera akazuba kakirasa ubona ko hakirimo ibihu byinshi cyane, dore ko aya mashyamba aba yongera umuyaga ndetse n'imbeho muri rusange.

Imisozi myiza cyane y'imirambi ya Nyarweya ikaba ihinzeho ibihingwa bitandukanye ngandurabukungu ndetse ku rundi ruhande hakaba hari n'amashyamba y'inzitane arimo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo.

Umurima munini cyane uhinzeho ibigori ku kigero kinini, ni ibigori bikiri bito bikaba bimaze byibuze amezi abiri ubona ko bitoshye ndetse byitaweho neza, hakurya yabyo hari umusozi uriho inyubako zituyemo abantu.

Agahanda ko mu cyaro. kagendamo abanyamaguru cyane ko ari gato ikinyabiziga gitakwiramo. Kuruhande rumwe hateye ibiti bya gereveriya bifata ubutaka ndetse n'urutoki, ahandi hakaba hari ibihingwa by'ibigori byumye cyane.

Umusozi mwiza cyane uriho ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'inganzamarumbo ubona ko bishishe bisa naho ari mu gihe k'imvura kuko murabona bifite amababi meza cyane y'icyatsi kibisi.

Amashyamba y'inzitane hagati mu ishyamba hakaba harimo umuhanda muto cyane wafungiranywe n'ubunini bw'ibiti ndetse n'ibyatsi biri mu iri shyamba, bigaragara ko kuwucamo bigoranye cyane.

Imisozi myinshi cyane ariko migufi irambirije. Ikaba ihinzeho ibihingwa bitandukanye ngandurabukungu by'icyayi. Hagati yayo hakaba hagiye harimo amashyamba y'ibiti binini cyane by'inganzamarumbo na byo bitoshye.

Ahantu hahinzwe inyanya za kijyambere. Ubona ko zahinzwe mu buryo bwizandetse zikaba zaritaweho. Inyanya zarakuze ziba ndende cyane, kuko bazizirikishije udushumi dutuma zitagwa hasi.

Ahantu hakorerwa ubworozi butandukanye, cyane ko amafi na yo ari ibinyabuzima, akenera ibyo kurya bitandukanye, hari ubwo usanga akunda kurya utwatsi tuba dufite amababi magufi, dukunda kugira uburabyo bw'umutuku ndetse n'imbuto.

Umugore ukenyeye igitenge. Yambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'umweru n'ubukara. Akaba yateze n'igitambaro mu mutwe, aho ahagaze mu mashu ye meza cyane, yahinze ku kigero cyo hejuru kugira ngo azabone amafaranga.

Umugore w'umuhinzi mworozi afite umusatsi usanzwe yambaye igitenge akaba yambaye n'iribaya y'umutuku, aho ari kuvomerera ibishyimbo bye bihinze mu imitabo yifashishije rozwara irimo amazi.

Umugabo wambaye umupira w'umatuku. Inyuma ye hari undi mugabo na we wambaye umupira w'umutuku, bakaba ari abahinzi babigize umwuga, aho barikumena amazi mu umurima kugira ngo atembe ajya mu bihingwa bibashe gukura neza.

Ni mu murima munini cyane ahahinzwe ibihingwa by'ibigori. Hakaba ari ibinyampeke biteye imbere hano mu Rwanda, bihingwa ku kigero cyo hejuru. Hejuru yabyo hakaba hari ibihombo bitwara amazi, aho byifashishwa bavomerera ibi bigori.

Aba ni abagabo batatu, bakaba ari abahinzi babigize umwuga, aho bahinga ibihingwa byinshi ku butumburuke bunini cyane mu mitabo ndetse bakanabivomerera bifashishije uburyo bugezweho, aho uzana igihombo kirimo amazi ugenda uyanyanyagiza mu bihingwa.

Abantu benshi cyane bo mu cyaro bakaba barishyize hamwe kugira ngo bahinge ubuhinzi bwabo bubageze kure, kuri ubu hakaba hari uburyo bushya bavomerera imyaka yabo, aho bazana igihombo gipfumuyemo utwenge twinshi bagafungura amazi akinyanyagiza mu bihingwa.

Ni abantu benshi cyane bakaba bagize koperative, akaba ari abahinzi borozi babigize umwuga, aho bakorera hamwe, bagahinga ibinyampeke bitandukanye, byiganjemo ibigori ndetse bagahinga n'imboga z'amashu.

Umurima mwiza cyane uhinzemo ibihingwa bya kijyambere, akaba ari ibihingwa bitandukanye cyane ndetse hagati yabyo hakaba hari igihombo kiri guturukamo amazu menshi, aho ari uburyo bushya bwo kuvomerera imyaka bwaje muri uyu mwaka.

Umukobwa ukiri muto akaba yarihangiye umurimo aho ahinga imboga n'imbuto. Uyu yahinze amashu iruhande rw'inzu y'iwabo, akaba ari kuyavomera yifashishije rozwara mbere y'uko ajya ku ishuri.

Umurima munini cyane uhenzemo ibigori, akaba ari ibigori bitoshye cyane bibyibushye ubona ko bafite imbuno, hagati yabyo harimo igihombo gitwara amazi kiyavomerera muri ibi bihingwa kugira ngo bikure neza.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa bitandukanye bikiri bito ndetse hakaba harimo n'uburyo bushya bwo kuvomerera imyaka, aho ushyira igihombo mu murima ukagipfumuraho utwenge wafungura amazi akinyanyagiza mu bihingwa.

Umurima munini cyane uhinzemo ibishyimbo bikiri bito, nyira byo akaba abivomerera yifashishije uburyo bwa kizungu aho bataba impombo z'amazi mu butaka bakazamuraho duto ducuci amazi bayafungura akinyanyagiza mu biribwa n'ibihingwa.

Umurima mwiza cyane w'ikibaya uhinzemo ibihingwa bitandukanye. Ukaba harimo n'uburyo bwiza cyane bushya bwo kuvomerera imyaka, aho bazana imashini ifite amapine, ikaba iriho n'igihombo kiri gucucira amazi, ikagenda izenguruka icucira amazi mu bihingwa.

Ikibaya kiza cyane gikikijwe n'imisozi miremire yo mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba harimo ikiyaga kirimo ikirwa kimwe ndetse kuri iyi misozi hari ibihingwa bitandukanye ndetse n'amashyamba.

Imirambi myiza cyane yo mu karere ka huye. Hakaba hari ikiyaga cy'igikorano, aho kiri hagati y'imisozi. Nta kirwa na kimwe kirimo ahubwo kuri misozi hari ibihingwa byinshi cyane.

Ishyamba rinini cyane ritoshye, ririmo ibiti binini by'inganzamarumbo, rikaba riri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyane rigaragara ko ryitaweho neza ndetse akaba ari no mu gihe k'imvura.

Umusozi mwiza cyane uriho amaterasi y'indinganire, ukaba uriho ibihingwa bitandukanye byiganje ibinyampeke by'ibigori n'ibishyimbo, hepfo yaho hakaba hahinze ishyamba ndetse hari n'amazu atuyemo abantu.

Ahantu heza cyane nyaburanga. Hakaba harimo uruzi runini, akaba ari ikibaya gihinzemo ibihingwa bitandukanye ngandurarugo. Ikikijwe n'imisozi miremire na yo ihinzeho ibihingwa byinshi byiganjemo urutoki.

Ni imisozi itatu iteganye myiza cyane, ikaba itariho amashyamba manini cyane ariko ihinzeho ibihingwa bitandukanye birimo n'urutoki hakaba hari n'amazu y'abaturage ba nyiri izo ntoki.

Aha hantu heza cyane hororerwa amahene, hari amahene y'umweru, ay'imitamo n'andi menshi cyane ari mu ikiraro, aho atandukanyijwe na senyenge ibonerana. Hirya yaho hakaba hari inzu nini cyane iriho n'ikigega gifata amazi.

Inyamaswa, ihene ni inyamaswa yororwa mu rugo. Ikaba igura amafaranga menshi cyane, aho leta y'u Rwanda ishishikariza buri muntu korora byibuze amatungo magufi kugira ngo yiteze imbere.

Ikinani kiza cyane kikaba cyororerwamo inka nyinshi cyane ubona ko ari inzungu kuko zidafite amahembe, hari gutemberamo inka nyinshi cyane aho nyirazo yazisize akajya kugama izuba.

Ni inka nyinshi cyane zikaba ari ishyo rinini riri gutembera mu rwuri ubona ko ziri kurisha ubwatsi cyane ko burimo ku bwinshi bukaba butoshye ndetse akaba ari n'ikirere kiza.

Umugabo wambaye itaburiya y’umweru, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze, akaba ari umworozi wabigize umwuga, ahagaze imbere y'inka ze nyinshi, ubona ko ari kugenda azireba ngo arebe niba azaba zifite ibibazo.

Ingurube nziza cyane ishishe iri mu kigero cy'amafaranga ibihumbi ijana, ikaba iryamye mu kiraro, ifite ibara ry'umweru ndetse mu kiraro, hari ibishariro iryamyeho, bisa n'aho nta bwatsi bayihaye.

Ikiraro kikiri gishyashya, kikaba cyororerwamo ndetse kikanatuburwamo inkoko nziza cyane. Harimo imishwi ikiriri mito, ubona ko itaramara ibyumweru bibiri. Ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa, mu kuzongerera ubushyuhe.

Inyamaswa z'amatungo magufi akaba ari inkwavu zose zirasa n'umweru, ziri mu bibuti byazo aho buri kibuti kirimo urukwavu rumwe rumwe, hakaba harimo n'ibyorya ziri kurya.

Inka nyinshi cyane ziri hamwe zikaba ziri mu ifamu, hari abantu batatu aribo bashumba bazo bahagaze, umwe yambaye ingofero, undi yambaye umupira w'umutuku, mugihe undi wa gatatu ari gukama inka.

U Rwanda Igihugu cy'amata n'ubuki, arimo urwuri runini cyane rw'akataraboneka, aho rurimo gutemberamo inka nyinshi cyane z'Inyambo ndetse n'izindi ziri kurisha.

Abagore bicaye hasi bakaba bambaye ibitenge byiza cyane ariko batagaragara mu maso yabo. Bari gutoranya ibishyimbo kugira ngo bakuremo imbuto bazahinga muri iki gihe.

Umugore witeze agatambaro k'umutuku mu mutwe. Akaba ari umuhinzi w'ibishyimbo, ubu ngubu yicaye mu nzu we. Akaba ari kugosora ibishyimbo ku nkoko kugira ngo arobanure imbuto age guhinga.

Umugabo akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubutubuzi bw'imbuto. Yambaye ishati y'umweru, akaba afite igipapuro cyanditseho ko ari imbuto za Funwe. Hakaba hagaragaraho ibigori ndetse n'ibishyimbo.

Ubworozi bw'inka bukunze kugaragara ahantu hatari hake mu Rwanda. Bakaba boroye inka z'inyambo, aho ziri guca mu rupangu. Hakaba hari abagabo batatu, umwe uri kuzitera imiti n'abandi babiri ari bo borozi bazo.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi. Afite umusatsi muremure yawuzinze, akaba yambaye itaburiya y'ubururu, aho ari mu nzu akoreramo. Uyu mugore inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'inyamanswa.

Umugore akaba ari inzobere mubijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, yambaye itaburiya y'umweru, ingutiya ikoze muri rondoni ndetse akaba yiteze n'agatambaro k'umukara, aho ari gukingira inka z'inyambo ziri murupangu.

Abagabo batatu bari mu nzu ivurirwamo amatungo atandukanye. Umwe muri bo ari kuvura inyamaswa, aho yayipfutse umunwa yayitwikiye hose, akaba ari kuyibaga. Undi afite igipapuro mu gihe undi mukobwa hirya yabitaje.

Umugabo w'umuveterineri yambaye ingofero y'umweru igisarubete cy'ubururu n'ishati y'amaboko maremare ndetse n'uturindantoki, aho yaje kuvura inka, hirya hakaba hari abantu babiri bari kumureba.

Ahantu hororerwa inka z'Inyambo, zifite amahembe manini cyane y'umweru, zikaba ziri kunyura mu rupangu. Iruhande rwazo hari abantu bane babiri bakaba ari abavuzi b'amatungo, abandi babiri ari abashumba.

Mu nzu yororerwamo inkoko harimo abantu babiri. Ni umugabo n'umugore, bakaba bateruye inkoko imwe, bari kuyivura. Aho bari kuyiha umuti bayasamuye. Umukobwa yiteze agatambaro. Mu gihe bose bambaye ibisarubeti by'icyatsi.

Inka nyinshi cyane zizwi nk'Inyambo ziri gutembera mu rupangu, aho hari abagabo babiri, umwe w'umworozi undi akaba ari inzobere mu buvuzi bw'amatungo bari kuzitera imiti bazivura.

Umugabo w'umworozi ndetse akaba ari inzobere mu buvuzi bw'amatungo. Yambaye bote z'umukara, igisarubeti k'igitaka ndetse n'agasashe k'ubururu mu mutwe, akaba ari kubyaza inka mu buryo bwa kijyambere.

Abantu babiri bakaba ari inzobere mu buvuzi bw'amatungo, bambaye amasashi mu mutwe ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa, bakaba bari kuvura imbwa aho bayiryamishije bayipfutse umunwa, bakaba bari kuyitaho.

Ibikoresho byinshi cyane byifashishwa n'abavuzi b'amatungo, birimo indobo z'ibyuma ndetse hakaba harimo n'utundi tuntu dukozwe muri pulasitike tw'ubururu, dutwarwamo imiti itandukanye ndetse n'ibindi.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibyatsi bikiri bito ariko bitoshye cyane, hakaba harimo inyamaswa y'umusozi y'ishya aho iri gutembera muri ubu bwatsi ishakake icyo kurya.

Ni mu rwuri ahari ubwatsi bukiri butoya, hakaba hari gutemberamo inyamaswa nini cyane y'inkazi ifite amahembe abiri, ikaba ifite n'amatwi aho iri kurisha ubu bwatsi.

Inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba. Ziraryamye, zikaba ziri kumwe zidahuje ubwoko kuko ziri mu moko atatu ndetse hakaba harimo n'agakende gatoya, karyamye kuri imwe muri zo.

Ni mu ishyamba ry'inzitane ku ruhande hakaba hari ubwatsi ubona ko budatoshye bisa n'aho ari igihe k'izuba, hari gutemberamo imparage eshatu, ebyiri nkuru ndetse n'indi ntoya zikaba zigiye gushaka ibyo kurya.

Umurima urimo ubwatsi butoshye, hakaba harimo inyamaswa y'igasozi yitwa ishya ikaba yaje gutembera muri uyu murima kugira ngo irebe niba yabona icyo kurya kuko irashonje cyane.

Amazi aboneka mu bice bitandukanye by'Igihugu cy'u Rwanda, akaba yifashishwa n'inyamaswa zitandukanye zirimo n'imbata, aho zijya koga mu buryo bwo gushaka ubukonje mu gihe k'izuba.

Ishyamba rinini cyane ririmo ubwatsi bumeze nk'ingano, bukaba bumwe butoshye ubundi bwumye hari gutemberamo ingurube y'ishyamba, ifite amahembe ndetse ikaba iri kujya gushaka ibyo kurya.

Inyamaswa nyinshi cyane z'inkazi zikaba ari intare, ziraryamye aho ziruhutse kuko zivuye guhiga kuri iki gihe k'izuba, hirya yazo hari ishyamba ritoshye.

Ni mu ishyamba rwagati ahari inyamaswa nyinshi cyane zirimo impara n'imparage ndetse n'ishya ziri gutembera mu kibuga aho ziri gushaka ibyo kurya ndetse zikaba ziri no gukina zishimye.